Abantu batatu bahagaze bambaye imyenda itandukanye, ikindi kandi imbere y'abo bantu hari ibikoresho bifashisha mu muco gakondo, ikindi kandi harimo uducuma, utubindi, amahembe n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu twita amashuri isakaje amabati asa n'ubururu, kandi asa n'umweruru, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, imbere y'iyo nzu hari idarapo, ikindi kandi hari n'abantu bari kuhakorera inama kuko inama ni ingenzi ku baturage kuko bungurana ibitekerezo, hagakemurwamo n'ibibazo by'abaturage.

Umurima urimo ibyatsi, ikindi kandi bimeze neza, muri uwo murima harimo umuntu twita umusirikare, ahetse igikapu gisa n'imyenda yambaye, ikindi kandi yambaye n'ingofero, ikindi afite igiti, ikindi kandi abasirikare ni ingenzi mu baturage, kuko baducungira umutekano.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi iyo nzu isize amarangi asa n'umweru, ifite n'amarido asa n'umweru n'umukara, ikindi kandi bari gukoreramo inama, kuko inama ni ingenzi ku baturage, kuko bunguranamo ibitekerezo, bagakemuriramo ibibazo by'abaturage, ikindi kandi imbere y'abantu hari uducupa turimo amazi.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi irimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi isa neza, isize amarange asa n'umweru, ifite amarido asa n'umuhondo, ikindi kandi inama ni ingenzi mu buzima bw'abaturage, kuko bakemuriramo ibibazo by'abaturage, ikindi kandi bunguranamo ibitekerezo.

Icyuma bifashisha bari gutema ibyatsi, ikindi kandi gisa n'umukara, kiri ahantu hari ibyatsi bisa neza, kandi hari n'umuhanda urimo amabuye twita amapave.

Abantu twita intore, ikindi kandi bambaye imyenda isa n'umutuku, iyindi isa n'icyatsi n'ibindi bintu biziritse mu ijosi twita inigi bisa n'umweruru, ikindi kandi barabyina, ikindi kandi babyina mu muco twita kinyarwanda.

Ibikoresho bifashishaga mu bihe bya kera harimo icyo bitaga igisabo, n'ibindi bitaga inkongoro ibi byose babyifashishaga inkongoro bazikamiragamo, ibisabo bacundiragamo amata.

Umurima ma uhinzemo igihingwa twita amasaka gisa neza kuko kitaweho. Ikindi kandi gitangaga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. ikindi kandi kiraribwa kuko kivamo igikoma. ikindi kandi bakijyana ku isoko kuko kiragurwa. ikindi kandi kivamo amafaranga.

Isahani twita imbehe ya kinyarwanda iriho ibishyimbo, amashaza, ikindi kandi iteretse ku rukoma hariho imyumbati, ibijumba, ibigori, amadegede, ikindi kandi bisa neza kuko biraryoha, ikindi kandi barabirya.

Abantu twita intore, ikindi kandi bambaye imyenda isa n'umweru, izindi kandi zisa n'umuhondo, harimo n'amabara y'umukara, ikindi kandi iyo myenda irashabaguye, bambaye inigi mu ijosi, ikindi kandi barabyina, kuko babyina neza, kuko imbyino ni nziza, kuko zishimisha abaturage.

Abantu twita intore, ikindi kandi bambaye imyenda igiye itandukanye, bambaye imyenda isa n'umweru, iyindi isa n'umukara, ikindi kandi imbere y'aba bantu hari umuntu wambaye imyenda isa n'ubururu, n'akapira gasa n'umukara, ikindi kandi ari kubavugiriza ingoma.

Abantu bambaye imyenda zisa n'ubururu harimo n'umweru, ikindi kandi bambaye n'ibindi twita ibinigi, bafite n'ingoma bari kuvuza, ikindi kandi tubita intore kuko ni nziza, zitanga umunezero mu baturage.

Umusaza twita umukambwe. Ikindi kandi afite akabando, yambaye imyenda icikaguritse. Ikindi kandi hejuru nta kintu yambaye, ikindi kandi afite akabando yambaye ibikomo ku ntoki ebyiri, ikindi kandi afite n'inkono twita inkono y'itabi.

Inzu isa neza yicayemo umukobwa wambaye imyenda zisa n'umweru kandi zisa n'umukara. ikindi kandi yambaye n'utundi tuntu ku kaboko kuko dusa n'umweru yambaye n'ikindi kintu cy'ikinigi mu ijosi gisa n'umweru, ikindi kandi mu mutwe we harimo akantu k'umweru ashizemo agati gasa n'umweru, ikindi kandi imyenda yambaye irashabaguye bigaragaza ko abyina.

Inzu isize amarangi asa n'umutuku，ikindi kandi ku iyo nzu hari urusinga rufite amabara agiye atandukanye， ikindi kandi urutsinga ni ingenzi ku baturage， kuko turwifashisha dukora ikintu twita umuriro.

Igikoresho bifashisha, ikindi kandi ni ingenzi ku baturage kuko bagikoresha bakora umuriro, ikindi kandi umuriro ni ingenzi ku baturage, kuko utuma abaturage biteza imbere.

Ibikoresho bifashisha bari gufotora impapuro. Ikindi kandi impapuro ni ingenzi ku baturage, kuko bazifashisha bari gukemura ibibazo byabo, kuko baba babisabwe.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho ,ikindi kandi isakaje amabati y'umutuku, yubakishije amatafari ahiye isize amarangi asa n'umuhondo, n'ubururu, ikindi kandi imbere y'iyo nzu hari abantu bagiye batandukanye, bambaye imyenda isa n'umweru, ikindi kandi bari kugenda mu muhanda wubakishije amapave, ikindi kandi umuhanda ni ingenzi ku buzima bw'abantu, kuko tuwugendamo turi kugenda mu ngendo zigiye zitandukanye.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho twita etaje, ikindi kandi isize amarange asa n'umweru, andi asa n'umutuku, ikorerwamo imirimo igiye itandukanye, iruhande rw'iyo nzu hari abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, hari n'imodoka isa n'umukara.

Twigira ku urusengero rwubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi rwubakishije amatafari ahiye, inzugi zarwo zisa n'umuhondo zisize amarangi asa n'umweru, n'irindi risa n'ubururu ikindi kandi rusakaje amabati asa n'umutuku iruhande rw'iyo nzu hari ikigega, hari n'indi nzu zubakishije amabati asa n'umutuku, kandi mu rusengero barahasengera.

Urusengero rwubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi rwubakishijwe amatafari ahiye rusakaje amabati asa n'ubururu, rusize amarangi asa n'umuhondo, ikindi kandi imbere y'urwo rusengero hari abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi urusengero rusengerwamo kuko barubatirizamo ikindi kandi rufasha abaturage.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho. Ikindi kandi imbere y'iyo nzu hari moto. Ikindi kandi hari n'abantu bambaye imyenda igiye itandukanye. Ikindi kandi hari n'idarapo risa n'ubururu ahandi hasa n'umuhondo n'icyatsi, kandi hari n'umuhanda wubakishije amapave.

Inzu isakaje amabati isa n'umutuku, yubakishije ibyuma bisa n'umweru ikindi kandi ku ivuriro ni heza cyane, kuko hafasha abaturage kuko harabaratuvura.

Inzu zubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi zisize amarangi asa n'umutuku, n'andi asa n'umweru n'andi asa n'umukara, ikindi kandi hari n'ahandi hantu twita kuri sitasiyo ,bajya kunyweshereza Esanse ikindi kandi hari n'umuntu uri gukorayo amasuku, ikindi kandi kuri sitasiyo amamodoka ajya kuhanywera Esanse ,kuko ni ingenzi ku modoka.

Umuhanda ugezweho wubatse ku buryo bwiza. Ikindi kandi imbere y'umuhanda hahagaze abantu bagiye batandukanye, bambaye imyenda itandukanye. Ikindi kandi bari mu mirimo itandukanye.

Yubatswe ku buryo bugezweho ikindi kandi isa neza; isize amarangi asa n'umweruru ikindi kandi isakajwe amabati asa n'umutuku. Inzugi zayo zisize amarangi y' asa n'umukara, ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa n'ubururu, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, ikindi kandi imbere y'iyo nzu hateye ibiti, ibyatsi bisa neza, kuko byitaweho cyane.

Inzu zubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi zikorerwamo imirimo igiye itandukanye, ikindi kandi zisize amarangi asa n'umuhondo andi asa n'umweru, imbere y'iyo nzu hateye ibirabyo kuko bisa neza, ikindi kandi hari n'ikigega babikamo amazi, ikindi kandi hari n'i darapo.

Knzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isakaje amabati asa n'umutuku, n'amarangi asa n'umutuku, harimo n'amarangi y'umuhondo, ikindi kandi imbere yaho hari ibyatsi bisa neza, kuko byitaweho harimo n'icyapa, ikindi kandi iyo nzu ikorerwagamo imirimo, igiye itandukanye.

inzu isakaje amabati asa n'umutuku ikindi kandi yubakishije amatafari twita rukarakara, isize marangi asa n'umweru ikindi kandi inzugi zayo zisize amarangi asa n'ubururu, imbere y'iyo nzu hari amabuye twita amakoro, ikindi kandi harimo ibyatsi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi bambaye imyenda itandukanye, bafite amakayi n'amakaramu, ikindi kandi inama ni ingenzi ku baturage, kuko bunguranamo ibitekerezo, ikindi kandi bagakemuriramo n'ibibazo by'abaturage.

Umurima uhinzemo ibyatsi ikindi kandi hicayemo abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda zitandukanye, ikindi kandi imbere y'abo bantu hahagaze umuntu w'inyuma ufite a mikoro, ikindi kandi inama n'ingenzi ku baturage kuko bunguranamo ibitekerezo ikindi kandi bakemuriramo ibibazo by'abaturage.

Inzu yicayemo abantu bagiye batandukanye, kuko iyo nzu ikorerwamo inama, ikindi kandi inama ni ingenzi ku baturage, kuko bungurana ibitekerezo, ikindi kandi bagakemuriramo ibibazo by'abaturage.

Abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi imbere y'abantu hahagaze umuntu, ikindi kandi yambaye imyenda isa n'umukara, indi isa n'umutuku, ikindi kandi inama ni ingenzi ku baturage, kuko bunguranamo ibitekerezo, ikindi kandi bakemuriraramo ibibazo by'abaturage.

Inzu ikorerwamo inama irimo abantu bagiye batandukanye. Ikindi kandi, imbere y'abantu hahagaze umuntu ufite mikoro. Ikindi kandi, inama ni ingenzi ku baturage, kuko bunguranamo ibitekerezo. Ikindi kandi bakemuriramo ibibazo by'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu rujya ahantu twita muri gare, ikindi kandi bagiye gutega imodoka, abandi bari mu mirimo igiye itandukanye, ikindi kandi imodoka ni ingenzi ku buzima bwacu, kuko tuzikoramo ingendo tugiye ahantu hatandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu wicaye kuri moto, ikindi kandi inyuma y'uwo muntun hari amazu asize amarangi asa n'umweru andi asa n'umutuku. Ikindi kandi hari n'abantu bari kujya mu mirimo igiye itandukanye.

Urujya nuruza rw'abantu bajya ahantu twita muri gare, bagiye mu ngendo zigiye zitandukanye, ikindi kandi muri gare habamo imodoka abagenzi bategeramo, bagiye mu mirimo igiye itandukanye ikindi kandi imodoka ni ingenzi ku baturage.

Urujya n'uruza rw'abantu bajya ahantu twita muri gare bajya gutegera imodoka, ikindi kandi baba bagiye mu mirimo igiye itandukanye, ikindi kandi hari imodoka zifite amabara agiye atandukanye.

Umuhanda urimo umuntu uri ku igare, ikindi kandi yambaye imyenda isaga n'umukara, yambaye ishati isa n'umutuku, ahetse umufuka urimo ibihingwa bigiye bitandukanye ikindi kandi biraribwa.

Umuhanda twita kaburimbo urimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi harimo amagare ahetse abantu bambaye imyenda igiye zitandukanye, ikindi kandi amagare ni ingenzi ku baturage, kuko bayagendaho bajya mu mirimo igiye zitandukanye, ikindi kandi hirya y'ayo magare hari inzu isize amarange asa n'ubururu n'ayandi asa n'umweru.

Umuhanda urimo imodoka, ikindi kandi imodoka ifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umweru ayandi asa n'umutuku. Ikindi kandi hariho ibisimba bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru ayandi asa n'icyatsi, ikindi kandi muri iyo modoka harimo umuntu wambaye imyenda isa n'icyatsi. Ikindi kandi harimo imifuka irimo ibintu bigiye bitandukanye. Hejuru y'imodoka hari abantu bambaye imyenda isa n'ubururu.

Ikibuga cyicayemo umuntu wambaye imyenda igiye itandukanye yambaye n'inkweto zisa umukara, yambaye ipantaro isaga n'umukara, umupira urimo amabara atukura andi asa n'umweru. Afite n'akandi kantu ako kantu bagakinisha umukino twita kiriketi.

Ikibuga kirimo umuntu wambaye imyenda isa n'ubururu n'umupira usa n'umweru n'inkweto zisa n'umutuku n'amasogisi asa n'umukara, ikindi kandi gisa neza kuko gikorerwa amasuku ikindi kandi afite agakoni bakinisha umukino twita kiriketi.

Abakinnyi bakina imipira y'amaboko bambara imyenda igiye itandukanye, harimo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu, siporo ni ingenzi ku buzima bwacu.

Ikibuga gisa neza kirimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi bambaye imyenda isa n'ubururu n'ayandi mabara asa n'umuhondo, n'ingofero zisa n'umuhondo n'ubururu, ikindi kandi siporo ni ingenzi ku buzima bw'abantu.

Umuhanda urimo umuntu ari kugenda yambaye imyenda isa n'umukara. Ruguru y'uwo muhanda hari ibirabyo bisa neza, hari n'inzu yubatse ku buryo bugezweho. Ikindi kandi isa neza kuko yitaweho. Isakaje amabati asa n'umutuku, isize amarangi asa n'umweru, ikindi kandi hakorerwamo imirimo igiye itandukanye.